Igihe umwana agiye kujya ku ishuri ni byiza ko tumugurira agakapu gatoya ko ajyanamo amakaye kugira ngo atayata mu nzira kuko umwana aho arambitse ikintu ashobora kwibagirwa kongera kugitora.

Iyo abana tubakoreye ikintu kikabashimisha, ntikijya kibava mu mitwe, kubera ko kuba babaha ibikinisho bimeze nk'ubwato, bakagendera hejuru y'amazi muri pisine bituma bishima cyane.

Butike nziza igomba kurangwa n'isuku ndetse inapakiyemo ibintu byose umuntu yakenera kuko iyo ngiyo ituma abaturage bayigana kandi bakayigana ku bwinshi kuko harimo ibyo bakeneye.

Buri kigo kigomba kuba gifite isomero ku buryo umwana wese ukeneye kwiga cyangwa gusoma ibitabo runaka agomba kujya muri icyo cyumba, agashakamo igitabo, ubundi agasoma.

Ni byiza ko twita ku ngo zacu tukahagirira isuku, kugira ngo twirinde amazi yahareka bigatuma hororokeramo umubu utera malariya kuko ni indwara yica abantu benshi ku isi.

Abana bakeneyera udukapu dushushanyijeho ibishushanyo byiza, kugira ngo bishimire igikorwa cyo kuba bajya ku ishuri, kuko burya umwana ntaba akunda kwiga ahubwo akururwa n'ibimujyanayo.

Kwigisha abana ukoresheje inkuru zanditse mu bitabo, cyane cyane inkuru ngufi ndetse zirimo n'inyamaswa, bituma bumva neza icyo wabigishije kandi izo nkuru bakazifata no mu mutwe.

Usanga abantu bari kwiga ikibabi bagomba kwiga buri gice kikigize ndetse n'uko cyitwa, bityo bakaba bafata ubundi bumenyi bwihariye kuri cyo.

Kuba wagurira ibikinisho umwana ntukabifate nk'ibintu byo gusesagura amafaranga kuko burya iyo umwana yishimye n'umubyeyi bimugaragarira neza kandi na we biramushimisha.

Ni byiza ko igihe abana bacu badushimishije cyane cyane nko kuba batsinze mu mashuri tubajyana ku mazi tukabashyira mu bikinisho byabo uwo munsi na wo bakishima ku buryo batazawibagirwa.

Umuco wo gutera amarangi ujye urangwa ahantu hose kubera yuko inyubako zacu hari igihe zisaza nawe ukabibona, bityo washyiraho irangi zikongera zikaba nzima zigasa neza.

Ni byiza ko udukoresho twose tugomba gushyirwa hamwe kugira ngo umwana ugiye kwiga natureberaho bitume abifata vuba kuko yiga ndetse ibyo yiga akaba ari no kubireba n'amaso ye.

Igikoresho kirimo irati, kompa, umugome ndetse n'ikaramu y'igiti, byo dukunze gukenera igihe turi kwiga imibare kugira ngo bidufashe kuba twacora uruziga, n'ibindi.

Hagomba kuba hari ibimenyetso wigishirizaho umwana, bityo abibona ndetse ukanamutoza kuba yabishushanya nawe bituma abyumva neza kandi akabifata mu buryo bworoshye kuruta kuba wabimubwira mu magambo gusa.

Mu mashuri bakunze kwigishwa abanyeshuri ubugeni n'umuco kubera ko ibi bisigasira amateka y'igihugu cyacu, bityo rero amateka nta kazime kandi hari abakagombye kuyigisha n'abandi.

Mu buryo bukurura abana, ukabigisha bakaba babasha kubifata neza, ni uko ubakorera ibishushanyo by'amabara meza, byanditseho ibyo ugomba kubigisha nibwo babifata mu buryo bworoshye.

Biba byiza iyo ku kigo cy'amashuri tuhashyize icyapa kigaragaza ko aho hantu hari ishuri, kugira ngo ukeneye serivisi zo ku ishuri abe yazishyikirirwa kandi mu buryo bwiza butamugoye.

Ibigo by'amashuri bikize, usanga bifite n'ibibuga by'imyidagaduro byubatse neza kandi icyo kigo kikaba kizengurutswe n'igipangu ubona ko nta mwana wapfa kugisimbuka.

Ibigo by'amashuri bigomba gufata iya mbere mu kujya byicaza abanyeshuri, bakabagira inama mu bintu bitandukanye kugira ngo bakurane ikinyabupfura kandi bakomeze bitware neza aho babarizwa.

Udukoresho twiza dusa neza dukurura abana bigatuma bakina natwo igihe kirekire bityo ni byiza ushaka ko umwana wawe yiga amasomo ugomba kumutegurira utuntu twanditseho inyuguti se cyangwa imibare kugira ngo abifate vuba.

Icyumba kirimo ibintu bijagaraye, iyo ukinyinjiyemo nawe usanga kidasa neza, kubera ko ushobora gutambuka ugakandagira kimwe, wakongera ikindi bityo ukabona hari akavuyo.

Ibikoresho birimo amarati yabugenewe n'ibindi bitandukanye, bigomba kugurirwa umwana igihe ageze mu mashuri atangiye kuba makuru, bityo akabikoresha mu kwiga imibare ndetse n'andi masomo bikenerwamo.

Ni byiza ko ugomba kuba ufite ibikoresho byose bikoreshwa mu burezi, kugira ngo icyo ukeneye cyose ube wakibona, n'igikenera kujya ku ikoranabuhanga, ube ufite mudasobwa ukoresha ubashe kubona ayo makuru.

Buri muntu wese agomba kuba afite urutonde rw'ibintu agomba gukora buri munsi, ibyo ntibyakabuzemo kuba yabyuka agasenga, ubundi akarya ndetse n'ibindi bikurikira akabikora.

Ni kenshi ababyeyi babwirwa kugurira abana babo amaseti, nyamara ntibahite babyumva vuba bakumva ko ari ugusesagura amafaranga, umwana udafite iseti kandi biga ibintu bayikoresha, asubira inyuma mu myigire.

Iyo abanyeshuri bigiye ku ikoranabuhanga harimo za mudasobwa bituma bakora ubushakashatsi bwimbitse bityo bakamenya n'ibindi batari bazi kubera ko amakuru yose ku ikoranabuhanga aba ahari,

Iyo abayobozi bateraniye hamwe baribufate imyanzuro runaka, hagomba kugira abemeranywa n'abandi bityo ubwiganze bakaba aribwo bagenderaho kugira ngo ibyo bintu bibe byatangizwa.

Ni byiza ko igihe umwarimu ari kwigisha agomba kujya anyuzamo agaha abanyeshuri nabo bakajya ku kibaho akabaha ibyo gukora kugira ngo biyumve mu isomo rye kandi iyo ugeze ku kibaho ushobora kuryumva neza.

Kwicaza abanyeshuri hamwe, ubundi ukabagira inama biba ari byiza ariko umuyobozi ufite ikigo kitajya cyicaza abanyeshuri hamwe ngo baganire, usanga barigiriye mu zindi ngeso mbi.

No mu mashuri ni ngombwa ko hajya gahunda yo kwigisha amateka abanyeshuri kuri jenoside yakorewe abatutsi, kugira ngo bajye bibuka izo nzirakarengane maze bazirikane ayo mateka kandi bayakomereho.

Ibigo byose aho biva bikagera by'amashuri bigomba kuba bifite idarapo ry'igihugu kuko ahantu hose leta y'u Rwanda yashyizemo izo mbaraga ko ahantu hari ibigo ndetse hatangwa n'izindi serivisi nk'o kuba ari ku Murenge n'ahandi hagomba kuba hari iryo darapo.

Mbere y'uko abanyeshuri bafungura bakaza kwiga mu mashuri yisumbuye hagomba kuba hakozwe isuku ndetse hari n'ababishinzwe bakajya bakora amasuku buri munsi kugira ngo ikigo gihore gisa neza.

Abanyeshuri igihe bari mu ishuri bagomba gukurikira neza mwarimu kugira ngo ibyo yigishije babyumve kuko abarimu benshi usanga iyo bamaze kwigisha batanga ibyo umunyeshuri agomba gukora waba utabyumvise bikakunanira.

Iyo abanyeshuri bakoze igikorwa runaka bagomba gushimirwa bagahabwa imidari kugira ngo n'ikindi gihe bizatere imbaraga bagenzi babo basigaye na bo bazabikore bashyizemo imbaraga.

Kugira ngo abanyeshuri bigaragare ko biga hamwe, bagomba kuba bambaye impuzankano zisa bityo ukabatandukanya n'abandi ariko baramutse bivanze, ntushobora kumenya aho biga kuko bose baba ari bamwe.

Urubyiruko ni twebwe tugomba gufata iya mbere mu bikorwa byo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda na kane kuko ibyo bikorwa byakozwe n'urubyiruko rugenzi rwacu twebwe tugomba kuba urugero rwiza turwanya amacakubiri n'ibindi byose byadusubiza mu kaga nk'ako twahuye nako.

Mbere y'uko umurwayi aza ni byiza ko babanza kwesitara ibyuma byose baribukoreshe kwa muganga bityo bitaza gutuma bamurangarana, maze bakajya muri ibyo ngibyo kandi igihe cyabyo cyari gihari.

Mu gihe abanyeshuri bari gukora ikizamini, ni byiza ko abayobozi babo, cyangwa abarimu babo, babahagarikira kubera yuko bashobora gukomezanya, bityo ubumenyi bari bafite ntibabugaragaze uko buri.

Abanyeshuri bagomba kwicazwa bakajya baganirizwa kubera ko hari byinshi baba bakeneye kumenya bityo rero ntibabimenya batabibwiwe kuko n'urubyiruko bikorera ibyo bashatse bagomba kujya bagirwa n'inama.

Mbere y'uko amashuri atangira abakozi b'icyo kigo ndetse n'abakoresha bagomba kwita ku isuku y'ikigo cyabo kugira ngo abanyeshuri nibagaruka bazasange ikigo gisa neza.

Buri bigo byigenga bigomba kuba bisa neza kandi bikaba byishyurwa amafaranga atari make kubera ko aba ari ibigo bidashamikiye kuri leta, bityo abanyeshuri babyigaho nabo baba ari abahanga cyane.

Mu bigo byigisha abana b'incuke, usanga harimo ibikoresho bicungaho barya umunyenga, bityo rero iyo umwana akuze muri ubwo buryo arya iminyenga, bituma akunda kuza ku ishuri ndetse akenshi akaba aricyo kimuzanye nawe ugafatana amahirwe ukamwigisha.

Iyo ugeze muri kaminuza zitandukanye, uhasanga ibikoresho bishimisha kubirebesha amaso bityo rero ukaba wakomeza kuhagaruka kugira ngo wihere ijisho ibyo bintu.

Muri kaminuza niho honyine usanga biga bakoresheje porojegiteri kubera ko ikoranabuhanga riba ryarahageze kandi baba basirimutse, bafite n'ubushobozi bwo kubona igikoresho cyose cy'ikoranabuhanga ugereranyije n'andi mashuri asanzwe.

Mu muco nyarwanda bakundaga gukora ibikorwa by'ububumbyi, ugasanga babumba inkono n'utundi dukoresho twiza twabaga dusa neza ariko ubu ngubu bitangiye kugenda bikendera buhoro buhoro.

Isuku igomba kuturanga aho turi hose cyane cyane ibigo by'amashuri kubera yuko bikunze gusurwa n'abayobozi batandukanye bityo iyo basanze hari umwanda bashobora kugenda babinenze kandi ibyo ngibyo ntibyagakwiye.

Iyo ugeze ahantu hiyubashye usanga iyo hari bubere inama hateguwe intebe nziza zicarwamo ndetse ukaba wabona naho wandikira bitewe n'uko izo ntebe ziba ari nziza kandi zikoranye ubuhanga.

Umuntu wese agomba kwita ku mubiri we akawuha imbuto zirimo inanasi, imineke ndetse n'izindi kuko izi mbuto iyo uzifashe zongera gutuma umubiri wawe ukora neza kandi nawe ugatekereza neza.